Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibyo kurya no kunywa ndetse ikaba itanga n'uburiri ku bashaka kuryama hakaba harimo intebe za sheze n'abantu bari gucuruza n'amatara meza ari kwaka amabara agiye atandukanye hakaba harimo n'inkingi mo imbere mo hagati n'urugi rufunze.

Indebe nyinji za sheze, ziri ahandu bakiriraga abandu baje gufata icyo kunywa cyangwa icyo kujya, n'ameza. Ikaba yubakishijwe amatafari gahiye, harimo n'amakaro g'umweru ndetse na parafo hijya yayo, hakaba hariho n'ibiti by'icatsi.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'inyama n'ibindi byo kurya, hakaba hari ipura iriho inyama, inyanya n'ibitunguru, bikaba biri ku ipura y'mweru iteretse ahantu ku bintu by'umukara.

Ndabona abatetsi batatu. Umwe afite imishito itatu iriho inyama ndetse n'ibindi birungo by'umutuku n'icyatsi. Bambaye ingofero z'umweru, zirimo n'akarongo k'umukara kandi bari mu gikoni batekeramo ibyo kurya. Iki gikoni gifite umujyango n'urugi rw'icyatsi.

Inzu ikorerwagamo ubucuruzi bw'ibyo kurya n'ibyo kunywa hakaba hariho ameza gariho agatambaro k'ubururu hagati hakaba harimo n'akandi k'umuhondo n'intebe za sheze za palasitike zikozwe mu ibara ry'umweru hakaba hakinguye, imbere hakaba harimo umugabo wambaye agapira k'umutuku.

Bara ni ahandu turuhukiraga igihe dufite siteresi n'igihe dushaka kunywa nga gacupa, kandi hakaba haberaga ibitaramo bitandukanye by'ububyinyi, kuririmba ndetse hakaba haba n'ibyo kujya, umundu ushaka kujya arabisabaga akabibona ,hakaba harimo n'amatara ndetse n'abandu benshi bambaye...

Bara mu ndimi z'amahanga, ni inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibyo kurya ibyo kunywa, hakaba hariho abantu biyubashye biyakira igihe bagiye gufata amafunguro, cyangwa bananiwe bagiye kuruhuka, hakaba hari fanta n'izindi nzoga abantu bagura, bakabashyirira mu kirahuri kiri hano ku meza.

Inzu ikorerwagamo ubucuruzi bw'ibyo kurya n'ibyo kunywa, hakaba hariho ahantu waja kwicara igihe ushaka gufata nk'akayaga n'amakaro meza, n'ibiti n'inzu ifite amabati g'ubururu. Hirya yaho hakaba hari ikirere gisa n'umuhondo n'utundi duti twiza cyane.

Bara, ahantu abantu bayiyakiriraga bagiye gufata amafunguro ikaba irimo ameza, amabase ndetse n'ibisorori birimo ibyo kujya, hakaba harimo n'imbegeti zirimo imbuto zigiye zitandukanye, iz'icyatsi, umutuku n'umuhondo ndetse na burefonze, bikaba biri muri sale nziza cyane abantu bakoreshaga bari kwiyakira.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi, ikaba ifunguye harimo umuntu utari kugaragara neza. Haruguru hakaba hari igiti gifite amababi y'umutuku ndetse n'urundi ruzitiro rurimo imbere mo hagati, n'imodoka ifite ikintu kimeze nk'inzu wagirango ngo yazanye ibicuruzwa, n'ikirangantengo gishushanyijeho inkoko.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi, imbere yayo hakaba hari igare, n'icyapa cyanditseho watsapu shopu matireve katine, hakaba harimo ameza n'intebe ndende, abantu bicaraho baje guha, ifite umuryango, ufite urugi rusa nkaho rwenda gusa n'umukara.

Butike iriho umuntu ugiye guhaha， tukaba tuyikoreshaga tugiye guhaha ibyokurya， kandi hakaba ari igipangu cy'ubururu，n'inzu isa naho ari iya erisede，y'amabati y'umutuku，n’ipoto ririho insinga n'amatara yo ku muhanda， n’ikirangandego kikurangira aho ugiye ahariho.

Inzu ikoregwagamo ubucuruzi ikaba ifite ikirangandengo canditsweho kwigisha iga icyongereza ku buntu andika muri yutubi yawe raningi ingirishi.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi ,ifite amarangi abiri ;iry'ubururu n'iry'umweru . Hejuru yayo hakaba haciyeho urutsinga rw'amashanyarazi ,haruguru yayo hakaba hariho ibiti birebire n'ikirango cyanditseho ibintu by'umweru gifite ibara ry'ubururu.

Inzu ikorerwagamo ubucuruzi bugiye butandukanye, imbere yayo hakaba hariho ubwogero abandu bakarabiragaho indoki, ndetse n'urugi rw'ubururu rufite ibirahuri. Mu nzu hakaba harimo indebe nziza cyane ikozwe mu cyuma.

Butike ahantu tuguriraga ibyo kujya n'ibyo kwambara, ng'inkweto imyenda. Imbere yayo hakaba ariho imodoka yitwa fuso. Amazu abiri imwe y'ubururu n'iyindi isa naho ifite ibara ryenda kuba ng'umweru.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye ikaba igeretse ifite n'ibirahuri bisa n'aho umuntu yakwireba n'amapoto ku ruhande afite amatara yo ku muhanda n'igiti. Hirya yaho n'umuriro uri kuza n'igipangu gifite senyenge n'ibyuma by'umutuku n'ibirangantego biriho bigiye bitandukanye bigaragaza aho ugiye guhahira aho ari ho.

Ndabona inzu itatu imwe yo hagati isa n'aho bayikoresha igihe bari kubetinga habaye umupira. hakaba harimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, harimo amamashini n'ibindi bikoresho twifashisha. kandi hirya yaho ku nzu igana kuhande rwo haruguru, ifite amarangi y'icyatsi, hariho umundu. Iyo kuruhande rwo hepfo ifite amarangi y'ubururu nta mundu uhari.

Ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye imbere yabo hakaba ariho ameza ariho ikiringiti bakoresha igihe bari gupasa ipasi bakaba bacuruza n'insinga zifite amabara y'umukara hakaba hafunguye umugabo akaba yambaye agapira gafite ikola.

Inzu ikoregwamo ubucuruzi bw'ibikoresho by'ikoranabuhanga. Nga Kanari, Sitatayimu ikaba ifite ikirangandego ca nyiri kampani witwa Tuyisenge gaza limitidi ndetse akaba acuruzaga n'ibindi' bikoresho.

Inzu ikorerwagamo ubucuruzi, bakaba bacuruzaga ibikoresho bigenda bitandukanye, gaze, biswi, twisite, imbere y'iyi nzu hakaba hariho igare, mo imbere harimo abantu, bakaba bacuruzaga n'amasabuni, mu nzu isa naho' ifite ibirahuri, ifite n'amakaro inyuma.

Inzu ikoregwamo ubucuruzi bw'ibyo kujya ndetse n'ibyo Kwambara, hakaba harimo indebe bitaga amafuteyi n'umundu uri imbere y'igipangu gifunze, n'akana kambaye umupira g'ubururu n'umukozi wa Emutiyene utangaga amayinite ku mundu ugakeneye ,akaba ari imbere y'inzu isizwe amarangi g'ubururu.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi ,bugiye butandukanye, imbere yayo hakaba hari umugore uri kwambika umwana we, inkweto ,n'intebe umugabo yicayeho ,indi iriho ubusa, ifite amabara y'umutuku, n'ikibegeti ,abantu bashyiramo imyanda ,gifite ibara ry'umutuku ,n'abandi bantu bambaye imyenda y'icyatsi, n'abambaye ubururu, bogoshwe natireri.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo kugurisha ibiribwa ng'imiceri ,amakayi ndetse n'ibyuma byo guteresha umuti n'imiti yica udukoko tubaga mu bimera hakaba ariho umugore wambaye igitambaro c'umweru n'igare rifiteho udukarito.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi, hakaba hariho icyapa cyanditseho cyezamugenzi inosenti dukora telefone tukagira na pisi, ndetse imbere yaho hakaba hariho moto iriho kasiki ebyiri z'umutuku ndetse imbere hakaba harimo ibikoresho tugura tugiye kwifashisha.

Inzu ikorerwagamo ubucuruzi ikaba ifite amabati g'umutuku ikaba yubakishijwe n'amatafari gahiye hakaba hari ikirangantengo cyanditseho kayitare na nimero ze hakaba hashushanyijeho n'icupa ry'inzoga hejuru y'amabati hakaba hariho ibiti bifite amababi.

Inzu ikorerwagamo ubucuruzi bw'imbegeti, imigati n'imikoropesho n'ibishashi abantu babikagamo imyenda n'amabase gagiye gatandukanye bitewe n'iyo ushaka. Hakaba hariho urugi ndetse hafunguye, hijya yaho hakaba hariho igikuta gifite amabara g'umutuku.

Inzu icururizwamo imyenda, harimo umugabo wambaye agapfukamunwa k'umukara, washokoje umusatsi wa natirere, harimo n'ibindi bikoresho, kandi hakaba harimo hanga zirimo imyenda, inzu ikaba ifite amabara y'umuhondo, hejuru yayo hakaba hariho insinga z'amashanyarazi.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye, harimo nk'ibikoresho dukoresha by'ikoranabuhanga n'ibindi. Hakaba ari icyapa cyanditseho ibigwi farumasi. Hakaba harimo umugore usa naho ari kudoda wambaye agapira k'umutuku n'ipantaro y'umweru. Ku muryango wo hepfo hakaba hari abana babiri barimo kwinjira mu nzu.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibikoresho bigiye bitandukanye nka za pambegisi, amavuta yo kwisiga, n'ibijerekani by'amavuta. Hakaba hafunguye harimo na twisita. Haruguru yayo hakaba hariho inzu isizwe amarangi y'umuhondo iriho n'icyapa cyanditsweho foreti beti, n'imodoka ifite amabara y'umutuku.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi mwo imbere mu gipangu gikoreshejwe senyenge, hakaba harimo ibiduki by'ubururu n'ingunguru zifite amabara ya brefonse, ikaba ari inzu igeretse ifite ibirahuri byinshi isize amabara y'umuhondo.

Inzu ikorerwagamo ubucuruzi ikaba ifite igipangu cyiza cyane gifite urugi runini g'ubururu, hakaba hariho amarangi g'icyatsi, hepfo yayo mwo imbere hakaba harimo agandi mazu ga ericete n'ibyatsi birebire ndetse n'ibindi bintu bitakaga ibipangu.

Butike ahandu duhahiraga ibyo kujya, hakaba harimo umundu usa n'aho ari kwandika wicaye kuri sheze, inyuma hari ho akabati k'umweru ndetse hakaba hariho n'icapa kinini kigaragaza butike icyo icuruza, hakaba hanariho n'iyindi isa n'aho ari akabati gateretseho.

Inzu igeretse ifite inzugi z'umweru ikaba ikoregwagamo ubucuruzi bugiye butandukanye ,imbere yayo hakaba hariho umundu wambaye agapira k'ubururu n'ipandaro y'ikoboyi n'ingweto z'umukara ,na moto iri hamwe n'ipoto haruguru hakaba hanyuzeho amasanyarazi n'ikirere ci ciza.

Inzu yubakishijwe amabuye ikaba ifunguye, ifite urugi rufite amarangi g'umweru n'ikirahuri, ikaba icururizwagamo ibintu bigiye bitandukanye harimo ibikombe ndetse n'amabase, akaba harimo ameza gari ho urupapuro n'icupa, n'indebe ya sheze iri inyuma y'ameza.

Yubucuruzi ikoregwamo ibyo kujya ndetse n'ibindi bindu hakaba hariho abandu bari imbere yayo umwe wambaye umupira w'umutuku n'ikanzu y'umukara n'umugabo wambaye ikoti jya kacyi hijya yaho hakaba hari inzu isize amarangi g'umuhondo n'ibindu bisa n'ubururu n'umujyango go kuri iyi nzu hakaba hariho gufunguye guriho n'icapa.

Inzu y'ubucuruzi icururizwagamo ibintu bigiye bitandukanye, ng'amavuta yo kwisiga ndetse n'ibyo kurya ng'amabiswi. Hakaba harimo umugabo ubicuruzaga wambaye ingofero. imbere, inyuma, imbere ye hakaba hariho indebe ya sheze kandi ikaba ifunguye kugira ngo abakiriya babone aho banyura baje guhaha.

Isoko rifite igipangu, bikagira n'urugi g'ubururi ku gipangu. Rikaba rifite amazu abiri, imwe iteye puderi isa n'aho ari iy'umukara. Ibi iyindi nzu iri iruhande ikaba ifite amabati gegeye imbere tukaba tuyikoreshaga igihe tugiye ngo guhaha ibyoku kujya ndetse n'imyambaro ng'inkweto n'imyenda.

Umuntu wunamye imbere ye hakaba harimo ibase irimo imineke z'umuhondo， akaba ari gutandika ku mufuka g'umweru， yambaye igitambara c'umukara，agapira k'umutuku n'agakapu yakenyereyeho， haruguru ye hakaba hariho ameza gateretseho amabase garimo amaronji g’umuhondo.

Inzu icururizwagamo ibiribwa bigiye bitandukanye n'ibinyobwa, n'imiceri, hakaba hari ikirangandengo kirimo imigati ,amacupa ,hakaba handitseho keza kabasha na numero, hamoni mini maketi ,rikaba ridufashaga guhaha byihuse igihe tutagiye mu masoko.

Isoko ry'ubucuruzi ririmo abantu bagiye batandukanye abari kugenda n'abari gutaha, akaba rigeretse ririmo na amakaro, rikaba rifite amarangi y'umuhondo, bakaba bagurisha ingofero, inkweto ,n'ibindi bikoresho abantu bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Inzu ikorerwagamo ubucuruzi bw'inzoga， imbere yayo hakaba hariho abanyeshuri basa n’aho batashe，bambaye imyenda y'umweru n'umusaza uri kubareba n'abandi bari kugenda bambaye amakoti y'umutuku n'ikirangandengo，cyanditsweho paritedeko ndetse no kuri iyi nzu hakaba hari ikindi kirangantego gishushanyijeho inzoga yitwa sikoro.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye imbere yayo hakaba hariho imodoka n'umumotari utwaye umugenzi wambaye kasike. Hakaba hariho n'umukozi wa MTN ugurisha amayinite, hirya ye hakaba hariho abandi bantu batatu ndetse n'inzu iteye puderi y'umukara imbere yaho hakaba hariho n'ikirangantego.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amakaramu, uburoso bwo kwiboroshesha, n'inzoga abantu banywa bakajya mu bicu, harimo utubati dufite amabara y'umuhondo, n'intuza n'igipapuro kiri haruguru yabyo.

Inzu icururizwagamo ibikoresho bigiye bitandukanye， ari ibyo kwambara n'ibyo kurya， hakaba hariho abagabo batatu， umwe ari kuzamuka， uwundi ari kumanuka， hakaba hari n'umugore wisutse ibisuko bitaga derede， hagati inzu irimo ikaba iriho umugabo， haruguru yayo hakaba hariho canari.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo n'iby'ubwubatsi n'ijire iriho ifite amabara ya pinki n'irindi ryenda kuba nk'umweru ariko atari umweru. Hakaba hari ikiganza kiri kutugaragariza ibikoresho ibyo ari byo.

Ikorerwagamo ubucuzi bwa matora, hakaba hari umugabo wogoshwe oridineri ndetse akaba ari ifite amabuye gasigwa amarangi g'umukara n'umweru n'inkingi z'ubururu n'urugi bw'ubururu ndetse hakaba hariho n'ikirangandengo hejuru.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibyo kurya n'ibyo kunwa, ikaba ifunguye imiryango yose, haruguru ku muryango ufite amabara y'ubururu hakaba hari umukobwa uhagaze, afashe ku kantu wagira ngo ni akameza, inyuma ye hakaba hari intebe z'amafuteyi, n'ikirangantengo cyanditseho brabasibara bibiri.

Iyi ni inzu iri kutugaragariza aho washakira ibyo kurya ukabibona kugira ngo wifashishe kugira inzara ishire kandi ugabanye n'ingendo zagutwara kujya mu rugo.

Inzu ikorerwagamo ubucuruzi, ikaba ifite ibirangandengo imbere yayo n'ibiti ndetse n'uruzitiro, imbere y'uruzitiro hakaba hariho umuhanda gusize sima n'umwenda gwanitse ku nzu yo hepfo isize amarangi g'umuhondo, ifite n'ibirahuri byiza umuntu yibonamo.

Butike ikaba ifite imiryango ine zifite inzugi z'ubururu imbere yayo hakaba hari abantu babiri uwambaye umukara n'uwambaye iby'umweru akaba agiye guhaha hejuru yaryo hakaba ari uruhande rugeretse ndetse na canari n'ibiti hirya yaryo n'ikirere ndetse n'ipoto iriho urutsinga rw'amashanyarazi

Inzu ikorerwamo ubucuruzi ifunguye imbere yayo hakaba hariho amapine agerekeranye n'abantu bari kugenda, harimo umugore wambaye agapira k'umutuku witeze igitambara, wikoreye ibase y'ubururu irimo ibihaza abantu barya.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi hejuru, ikaba yubakishijwe amakaro. Ikaba ifite umuryango ufunguye ufite inzugi z'ubururu n'ibirahuri n'intebe izi bita sheze, zikozwe muri palasitiki, zifite amabara y'umweru. Hakaba hanitseho n'akabodi gafite imashini y'umuhondo.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi, ikaba ifite icyapa cyanditseho, komera, wihave yowa ataragitive, sikorashipu, n'abantu bashushanyijeho, harimo abakobwa n'abagabo, ikaba itanga ibintu bigiye bitandukanye, bitewe n'icyo umuntu akeneye.

Inzu icururizwagamo ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye, nga za tereviziyo ndetse na gaze twifashishaga igihe turi guteka n'ibindi bikoresho, ikaba iriho n'umugabo wambaye kositimu ku kirangandego kigana ku ruhande go hepfo.

Urusengero rurimo umundu umwe, hakaba harimo n'ameza ndetse nindebe abantu bicaragaho baje gusenga, n'amabati g'umweru na parafo n'inzugi ndetse n'amadirishya, rukaba rukoreshwaga igihe tugiye kuramya Imana tujanye ibyifuzo ndetse no gusenga dusengera nk'igihugu n'abandi bantu.

Ahantu bajaga bagiye gufata amafunguro cyangwa ugiye kuharara, igihe ubona nta gihe cyo gutaha iwawe, hakaba harimo imisego n'ameza n'ahantu hafite amakaro meza cane gari kurabagirana, n'amafoto gamanitsemo.

Hoteli ni ahantu tujya tugiye gufata icyo kunywa n'icyo kurya, n'igihe unaniwe bakaguha aho kuryama. Hakaba hari igipangu gifite ibyatsi by'icyatsi , n'umugabo uri gukemura, wambaye ingofero y'umutuku, imbere hakaba harimo n'andi mazu.

Hotel ni ahantu abantu bajya bagiye kwiyakira igihe bashatse nko kuruhuka babahereza naho kuryama, hakaba hari ikirangantengo cyanditseho neza hawuzi na nimero wabashakiraho. Mu gipangu imbere hakaba harimo ibiti birebire n'ibindi bigufi bifite amababi y'icyatsi.

Hoteli ni ahantu abantu bajya kwayakirira cyangwa kuruhukira, cyane cyane iyo bakeneye aho barara. Iyi hoteli ifite ibiti birebire byiza bifite amababi meza ateye amabengeza. Inzu ya hoteli igeretse kandi iteye n’ibara ry’umuhondo. Ifite igipangu gisa neza, cyubatse mu buryo bugezweho.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibyo kurya, hakaba hariho icyapa gishushanyijeho inyenyeri n'izina ryanditsweho ngo henikeni, home n'ibyatsi by'icyatsi biri ku gipangu gifite amabara: umuhondo n'imodoka iri hirya yacyo n'abantu bari hanze barikota akazuba.

Isoko ririmo ibikoresho tuguraga mu gihe tugiye kwambara cangwa kujya hakaba harimo n'imifuka z'ubururu ndetse n'amatara rikaba jyubakishijwe amatafari gahiye n'inzugi zago hakaba harimo ibirahuri.

Isoko ricururizwagamo ibirayi, ibishimbo n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye, hakaba harimo abantu benshi bagiye batandukanye, abagore n'abagabo ndetse n'abana, hakaba hari umugore wicaye ufashe n'umwana mu isume y'umweru n'uwundi wicaye imbere ye hari ibirayi yambaye umupira w'ubururu.

Ndabona abagore babiri bacuruza amarindazi, umwe afite umwana n'umutaka, n'iruhande rwe hariho igikapu, uwundi afite umufuka kandi imbere y'amarindazi hari ibase y'umukara, ubundi imbere hari imbere amarindazi mu ibase y'umweru, hirya yo haruguru harimo n'undi muntu ufite agakapu k'umutuku ndetse n'ibase y'ubururu.

Ibigori bitatu biri hasi bifite amababi g'icyatsi, n'umukecuru uri guhambira amashari arizo nkwi batashyaga mu biti, wambaye umupira g'umuhondo wiyorogoshe n'agashora k'ubururu. Akaba yiteze igitambara gisa umukara, kirimo n'ibara ry'umweru ndetse hakaba hariho inyuma ye abantu benshi, bagiye bari mu mirimo zitandukanye.

Isoko rifunguye, imbere yaryo hakaba hariho igare ririho ubusa n'ibindi bikoresho bishushanyije ku rugi, ukenera ukabibaza, harimo n'akabati karimo inzoga n'umukobwa wambaye ijipo ya mini n'ag...

Isoko ricururizwamo imifuka hakaba harimo abantu benshi bagiye guhaha imbuto, ibirayi ,n'ibindi bintu abantu bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi, hakaba harimo n'imbuto ziri mu mifuka n'ibidiya. binini cyane.

Isoko rikoregwagamo ubucuruzi bw'ibitunguru, watemeroni, amaronji n'ibirayi, rikaba rigeretse ririmo abantu benshi batandukanye, ari abacuruzi, abari guhaha, n'abantu bambaye imyenda y'umuhondo n'umugabo uri inyuma y'umugore wambaye ingofero y'umukara.

Amakaroti gari mu ibasi y'ubururu tukaba tuyakoreshaga mu gihe tugiye gutegura amafunguro. Gakaba gateretse mu ibase y'ubururu. Hirya yaho hakaba hariho ingoko ndetse n'urugi n'ikindi cy'umweru gisa na ho ari umwenda.

Isoko ricuruzaga ibisheke birebire byiza cane， harimo iby'amoko gatandukanye， ibifite amabara g'icatsi，umuhondo n'iby'umukara， bikaba bikoreshwaga igihe turi gukoramo isukari iyo dushiraga mu cayi， cangwa mu gikoma， no kubijya bikaba bivagamo n'amavuta twisigaga umuntu akagira uruhu rutoshe.

Isoko ricururizwagamo amaronji, indimu n'a makaroti, n'inzenda n'amagi. Ndetse hakaba habagamo n'ibindu bitaga amashufurera, bikaba bimwe biri mu mbegeti, ibindi biri ku meza. Hakaba harimo n'utubati tugi rimo tangawizi.

Isoko ricururizwamo ibiribwa hakaba harimo amaronji ,imineke, amatunda, n'imyembe na wotameloni twifashisha mu buvuzi ,n'imineke zifite amabara y'umuhondo n'umufuka ufite ibara ry'umuhondo, n'inanasi ziri mu kabasikete.

Isoko ricururizwagamo ibikoresho bigiye bitandukanye harimo utuyunguruzo, hakabamo inkweto n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye nk'inkweweto. Iri akaba arimwo duhahiraga ibindu bigiye bitandukanye, hakaba harimo n'ibirangandengo bigiye bigaragaza uwahakorera uwo ari we n'icyo akora icyo ari cyo.

Isoko ricururizwagamo amarindazi，ga benya， imigati，bikaba biri mu gikaziye c'icatsi，n'undi muntu wambaye siripa， wasize inzara，ahantu hari sima y'umukara，n'undi mugore wambaye siripa z'umukara，utari kugaragara neza agaragara igice kimwe.

Isoko ririmo abantu benshi bagiye batandukanye abambaye amasarubeti g'ubururu ndetse n'abakozi ba emutiyeni bagurishaga amayinite igihe ugakeneye ndetse n'ibindi bicuruzwa birimo ng'amasafuriya, amabase rikaba ari isoko risakajwe amabati g'umweru ndetse imbere yajyo hakaba hariho n'amabara g'umukara n'amashanyarazi ganyuze hejuru yajyo.

Isoko ririmo abandu benshi rikaba ricururizwazwagamo imifuka n'imyenda, hakaba harimo n'umukozi ukoreraga ibintu bijanye na terefone uri mu mutaka g'umutuku, hirya yabo hakaba hariho inzu ndetse n'ibiti n'ahandu hari imisozi myiza n'ikirere cyiza cyane.

Isoko ricururizwamo ibiribwa nk'ibihaza n'ibindi abantu bifashisha bari gutegura ibyo kurya. Akaba ari ibihingwa byera mu Rwanda biri ahantu ku meza. Hariho umufuka usa n'umweru n'abantu barimo baje guhaha.

Isoko twifashishaga igihe tugiye guhaha cyangwa tujyanye ibicuruzwa ku isoko. Rikaba ririmo abandu benshi batandukanye bacuruza imyenda. Abari gucuruza ibirayi, kandi iri soko risa n'aho ari viyayipi kubera ko ririmo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ibiribwa byadufasha gutunga amagara yacu.

Isoko ricururizwamo imbuto zigiye zitandukanye, inyanya, indoryi, amakarote n'imiteja, hakaba harimo abantu benshi, abafite udufuka, n'undi uhagaze wambaye agapira k'umutuku, n'ipantaro y'umukara, n'abandi bicaye ku ruhande rwo haruguru.

Isoko ricururizwagamo ibintu by'ubwoko bugiye butandukanye, hakaba hariho ikirangandengo n'ibigega bigiye bitandukanye, ibinini n'ibitonya, hakaba hariho n'umuntu wambaye ingofero n'agapira k'umutuku, n'igipangu, akaba rigeretse hirya yaho hakaba hariho n'akamodoka.

Isoko ririmo uruja n'uruza gw'abantu harimo abacuruzi ba emutiyene n'ibindi bikoresho tuguraga mu buzima bwa buri musi nga pambegisi, amakariso ,ibidomoro ndetse n'amasafuriya dukoreshaga igihe tugiye guteka ibyo kujya.

Isoko ricururizwamo ibiribwa, hakaba harimo urujya n'uruza rw'abantu, harimo n'ibishyimbo n'imbegeti y'umweru, n'abakozi bacuruza amayinite bari mu mutaka w'umuhondo, n'abandi bari kugenda bambaye imipira y'umutuku, biteze n'ibitambaro by'umutuku.

Isoko rikoregwagamo ubucuruzi bw'ibishimbo n'amarindazi gari mu mbegeti. Hirya yaho hakaba hariho ibase, bikaba biteretse ku mufuka n'ingoko iri hejuru y'ibishimbo biri ku mufuka. Akaba ari isoko rifite ahandu ho gutereka n'utubati tugiye dutandukanye. Rikaba harimo n'umundu ugurishaga abaje guhaha.

Isoko ricururizwagamo imyenda, hakaba harimo abantu benshi bamwe bari kugenda, abaje guhaha ndetse n'abacuruzi bambaye icyatsi ndetse n'agapira k'umweru, yiteze n'igitambara cy'umukara, hakaba hariho n'inzu yindi iri inyuma y'aho abacuruzi bacuruzaga imyenda ibafasha kubikamo ibikoresho.